Abantu batatu, umugabo umwe abandi bakaba basa naho bakiri abasore, baje ku kazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo, aho baje gushaka serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza.

Urubyiruko rwiganjemo abambaye imipira y'umutuku yanditseho Aitel, bakaba bicaye ku karubanda aho bari gusobanurira umuntu wese ukeneye gukoresha Airtel, serivisi itanga kugira ngo arebe niba yayikoresha koko.

Umukobwa wambaye agasengeri, ahetse igikapu ku rutugu, akaba yaje mu nzu ikorerwamo n'umukozi ukorana na sosiyete ya Emutiyeni, aho yaje gushaka serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura.

Umugabo wambaye isaha n'umupira muko magufi, yaje gushaka serivisi zo kubikuza ku mukozi wa sosiyete ya MTN, itanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura amafaranga ukoresheje telefoni.

Akazu kari mu irangi ry'umutuku, akaba ari akazu ka Airtel gacururizwamo serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza ku bantu bakoresha umuyoboro wa Airtel.

Ni abantu biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda abenshi itukura bakaba bahagaze mu nzu ya Airetl bari kwifotozasa, bisa n'aho ari poromosiyo nshya Airtel yazaniye abakiriya bayo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Yatebeje, akaba, ahagaze ku kazu ka Airtel, aho yakiriwe n'umukozi ukorera muri ako kazu, akaba ari kumuha serivise, zo kubitsa amafaranga kuri telefoni.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'icyatsi. Yambaye ijire y'umutuku, akaba inyuma ye hari abantu benshi cyane, baje gushaka serivisi zitandukanye mu kazu k'agasharagati, gafite ibara ry'umutuku, kanditseho ngo Eyateri mu kazi kose.

Umugabo w'umwirabura, yambaye ishati akaba afite mikoro aho ahagaze imbere y'imbaga. Abasobanurira uburyo bwiza bwo gukoresha banki ndetse na koperative ndetse n'akamaro bigirira ababikoresha.

Abagize koperative tuzamurane, biganjemo abagabo aho baje kugura ibikoresho bitandukanye bikorwa n'abagore birimo udutete, amashapule n'ibindi. Hari umugore ufite mikoro aho ari kugenda abwira rubanda ibyo' bacuruza.

Abaturage bicaye mu busitani, bamwe bicaye ku ntebe abandi barahagaze, inyuma hari ibiti bibakingiriza, bisa naho abicaye bakora muri serivisi za banki, ndetse bakaba banakorera mu makoperative.

Abagore biteje imbere bakaba barakoze koperative y'ubuhinzi n'ubworozi, bari guhinga igihingwa k'ibigori ndetse hakaba harimo n'ibindi bihingwa, bari inyuma y'inzu aho munsi y'inzu hari urutoki.

Ni mu nzu y'akabari, icururizwamo inzoga zitandukanye z'ubwoko bwinshi zikaba zipanze munzu mu kabati kabugenewe, hariho itara ryakije ndetse hakaba hari na firigo.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'amahoteri. Iritaruye ikaba ifite imbuga ngari iriho amapave, iyo nyubako iriho intebe imbere ndetse ikaba yakira abantu baturutse impande zose nubwo muri aka kanya nta bantu bahari.

MU nyubako imwe y'akabari, hari ikirango cy'uruganda rukora inzoga rwa Skol aho ari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku akaba ari ku gipapuro cy'umuhondo.

Mu isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Hakaba hari akazu gacururizwamo gaze ndetse hakaba handitseho n'amagambo avuga ngo tubafitiye gaze n'ibikoresho byayo. Iruhande hari n'akandi kazu gacururizwamo serivisi za Eyateri.

Uducupa tubiri turimo puderi yitwa Mambo, turasa n'umweru tukaba dushushanyijeho umwana ukiri muto uri gukambakamba, utu ducupa tukaba tubamo puderi batera umwana ku kibuno mbere y'uko bamubinda.

Igikarito kinini cyane kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba handitseho amagambo ngo zahabu. Ahandi hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ari mu ibara ry'umukara asobanura ko bikorerwa mu Rwanda.

Mu nzu imwe y'ubucuruzi, harimo etageri irimo ibicuruzwa bitandukanye, inzoga z'ibyuma, za fimbo, hakaba amavuta, saladine, amavuta yo guteka, hakaba amakariso, ndetse harimo n'umunzani bapimiraho ibiro iyo umuntu amaze kugura ibyoku kurya.

Umugore wabigize umwuga. Ari gucuruza mu isoko, aho ari gucuruza imbuto zitandukanye nka pavuro, inyanya, n'ibindi. Akaba ari gucuruza amashaza, amavuta yo guteka, ibitunguru, ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu guteka.

Igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo gishushanyijeho isahani, imodoka y'igikinisho igikapu n'intebe, akaba ari igipapuro gipfunyitsemo supaguru ebyiri zifashishwa mu gufatanya ibintu byatandukanye.

Ni inzu nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubucuruzi aho acururizwa: biswi, amabase, imikoropesho, ibidomora, supaguru ndetse n'amaji azwi nka sana ndetse n'andi atandukanye.

Niumuhanda wa mabuye iruhande rwabo hari inzu z'ubucuruzi aho hari urujya n'uruza rw'abantu, haparitse moto iriho umumotari hakaba hari n'umugabo ugiye kuyitega iruhande rwe hakaba hari akazu gato ka MTN gafite ibara ry'umuhondo.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa bitandukanye, twavuga nk'isukari iri mu gakombe ndetse hakaba hari n'akadomoro gato ka ritiro, karimo amavuta yo guteka ya Zahabu.

Ibicuruzwa bitandukanye bikaba bicururizwa mu nzu, aho babirambuye hasi birimo imitobe inyobwa, hakaba harimo inzoga zisindisha ndetse n'ibindi byinshi biri mu mapaki.

Umugore wihangiye umurimo. Akaba ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo amagi ndetse n'ibindi bitandukanye nka mayoneze, amandazi, imigati, imbuto ndetse n'amaji.

Ibikarito by'umuhondo byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ari mu ibara ry'ubururu, birimo agafu gakoreshwa mu guteka amandazi kitwa capamandazi. Kakaba gakoreshwa mu guteka amandazi ndetse n'imigati.

ni iduka rinini cyane ririmo etaJeri isa n'umweru hakaba harimo' ibicuruzwa bitandukanye birimo inzoga z'ibyuma, nka konyagi, fimbo ndetse n'izindi nzoga, hakaba harimo amaji ayo motudomora, ayo mu ducupa n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Abayobozi batandukanye mu nzego nyinshi, bahuriye hamwe, aho bahujwe n'ukwemera kwabo, bari mu rusengero baje kumva ijambo ry'imana, imbere ni abirabura, inyuma yabo hicaye abazungu ndetse hakaba hari umushumba uri kuganiriza umugore.

Inyubako nini cyane. Iri ku muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari amapave n'inzira y'abagenzi ndetse hakaba hari n'icyapa cyanditseho sitopu. Iyo nzu baracyayubaka, bisa naho ari urusengero.

Abaturage batandukanye biganjemo abarokore bakaba bicaye hamwe mu nzu. Imbere yabo hari umugore ufite telefone, akaba ari kubasomera ijambo ry'imana ndetse abigisha uburyo bwiza bwo kurushaho kunogera Imana.

Abantu benshi cyane biganjemo abemera Mana, bari kwifotoza bakaba bari kwifotoreza imbere y'inzu iteye irangi ry'umweru ndetse ikaba isakaje amabati y'umutuku.

Mu rusengero ahahuriye abantu batandukanye, biganjemo abayisiramu ndetse n'abakirisitu. Bari kuganira ku buryo bakwiye kuzajya bakorana bativanguye ku bijyanye n'imyemerere.

Ni ku munsi w'icyumweru, umunsi abayoboke b'idini rya gatorika basengeraho. Bakaba bageze mu gihe cyo guhazwa, aho abapadiri n'abandi bihayimana bari gutanga ukaristiya ku bakirisitu.

Abantu bakomeye cyane mu iyobokamana by'umwihariko abanyagaturika. Bakaba bahagaze bari kwifotoza nyuma y'uko bari bamaze gusenga. Inyuma yabo hari Kiriziya nini cyane bisa naho ari paruwasi.

Inzu nziza cyane ikaba ari inzu y'urusengero cyangwa se ikaba ari kiliziya, aho yubatse ku musozi ikaba yubakishije amatafari y'impunyu, ariko imbere nta bantu bahari baje gusenga.

Ni muri hotel icyumba cyiza cyane. Inzu iteye irangi ry'umweru hakaba harimo igitanda abakiriya baryamaho gishashe neza, hakaba hari n'inzitiramubu. Harimo amarido ndetse na televiziyo.

Muri hoteri hari icyumba cyiza, giteye amarangi y'umuhondo kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe ndetse n'igitanda gisashe neza kikaba kiriho n'imisego ebyiri. Iriho amarido mu gihe n'umuryango wo hanze ufunguye.

Ni muri hoteri hakaba hari ubwogero. Ku ruhande hari inzira y'abantu ndetse hakaba hari n'umucaca. Hakaba ari ahantu abantu bogera iyo baje gushaka serivise muri iyo hoteri.

Muri hoteli aho abantu bahuriye mu cyumba kimwe giteye amarangi y'umweru bakaba bari kuganira ku meza amwe aho bari kuganira ku buryo bwiza bwo gutanga serivisi mu mahoteli ndetse no mu maresitora.

Hoteli nziza cyane y'igorofa igeretse kabiri ikaba ita irangi ry'umuhondo, imbere hari ubwogero, hakaba hari intebe ndetse n'umutaka abantu bugamamo izuba, hakaba hari n'indabo nziza cyane.

Inyubako ya hoteri. Yitwa Epike, ikaba iriho irangi ry'umuhondo ndetse n'iryumweru. Ikaba ari inzu irimo ibirahuri, ariko akaba ari ntabantu bahari, baje kuhashakira serivisi.

Inyubako nziza cyane, ni igorofa igeretse rimwe iteye irangi ry'umweru mu mpande zose ariko imbere hakaba hariho akarangi gato k'ubururu, ni inzu itangirwamo serivisi za hoteli ho imbere iriho amapave ndetse n'ubusitani.

Inyubako nziza cyane, ni hoteri yubakishije amatafari ahiye mato y'impunyu. Imbere hari indabyo ndetse hakaba hateretse n'intebe mu ibaraza, aho abantu babanza kwicara mbere yuko bakirwa.

Inyubako nziza ya hoteri irimo imitako yererana. Hateraniyemo abantu benshi cyane, bamwe barahagaze abandi baricaye. Imbere yabo hakaba hari abashyitsi bakuru b'imena bahagaze, bari kubasobanurira icyatumye babatumizaho.

Muri hoteri hari ubwogero ozwi nka pisine, hakaba hari n'intebe ebyiri, hari umutaka, mu gihe hakurya hari ubusitani bunini cyane burimo umucaca ndetse n'imikindo.

Inzu nini yakirirwamo abantu ni hoteri irimo intebe nziza, ikaba ari hoteri igeretse kuko hariho amasikariye abantu bacaho bagiye ku igorofa ryo hejuru.

Ikigo kinini cyane ni hoteri, iriho inzu y'igorofa igereretse rimwe, hakaba hari umuhanda munini cyane uganayo. Iruhande hari igipangu cya senyenge ndetse ku rundi ruhande hakaba hari ubusitani bwiganjemo umucaca ndetse n'indabo.

Ni muri hoteri ifite icyumba cyiza giteguye neza cyane. Harimo igitanda, gishashe kiriho imisego ebyiri. Icyumba kirimo amarido y'umweru ndetse n'ay'umuhondo, hakaba hari akabati gateretseho icupa ry'amazi.

Hoteli hari intebe nyinshi cyane zifite ibara ry'umutuku ndetse hakaba n'utumeza dusa n'umukara, ni mu mwijima wagira ngo umuriro wagiye ntetse nta n'abakiriya barimo baje gushaka serivisi.

Ahantu hatangirwa serivisi z'amahoteli, harisaganuye, hakaba hari pisine, hakaba hari inzira y'abanyamaguru, hakaba hari ibibuga bitandukanye bikinirwamo imikino ndetse ku ruhande hari ubusitani, bugari cyane.

Mu isoko hakaba harimo ibicuruzwa bitandukanye byinshi cyane byiganjemo ibituruka mu buhinzi. Hari ibitoki by'inshakara, hakaba hari imbuto zitandukanye nk'amarongi ndetse n'izindi. Hari umugabo uri kuzicuruza ndetse n'umugore waje guhaha.

Amazu menshi cyane atondetse ku muhanda. Ni amazu akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Buri nzu imbere hari ibicuruzwa bihacururizwa harimo matora, intebe, amajerekani, indobo ndetse n'ibindi bitandukanye, aho harimo abaguzi baje kubi bigura.

Ni mu isoko ricururizwamo imbuto ndetse n'imboga zitandukanye. Harimo: inanasi, ibinyomoro, indimu, hakaba harimo imyembe ndetse n'ibindi byinshi. Hari n'umugore uri ku bicuruza.

Ni mu isoko aho urujya n'uruza rw'abantu ruza guhahira ibintu. Hicayemo umucuruzi aho ari gucuruza: karoti, ibibiringanya, inyanya, pavuro, intoryi ndetse n'ibindi byinshi bikenerwa n'abaturage.

Ibikoresho bitandukanye bicuruzwa mu isoko, harimo indiga, hakabamo amarushe, amafoke, akayunguruzo, udufuka ndetse n'ibindi bitandukanye byose bisangwa mu isoko.

Mu isoko hari ibicuruzwa byinshi cyane byiganjemo ibinyamafufu nk'ibijumba, hari umugabo umwe wambaye ikote, ufite agafuka uri gusabiriza ibijumba, hakaba hari n'umwe uri kubicuruza wambaye bodaboda bisa nk'aho ataramuha.

Abagore bane bicaye ku muhanda bakaba batanditse amaronji, batatu biteze ibitambaro bakaba bifumbase bisa naho babuze bakiriya mu gihe undi umwe yegereye amaronji ye akaba ari guhamagara abantu ngo abagurishe.

Ni mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto, hariho imineke, ibinyomoro, wotameroni, hakaba n'ibindi byinshi byose bikaba ari ibicuruzwa bituruka muri ako gace.

umukobwa wambaye ikanzu, idozwe mu gitenge, yambaye ingofero y'ubudodo, akaba afite agafuka, aho agiye guhaha mu isoko, ageze mu isoko, atanditse imyenda n'ibikapu ndetse umucuruzi umwe, yicaye hasi.

Inzu nini cyane, ni resitora ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye, aho icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ni mu gihe cy'umugoroba hakaba harimo intebe ndetse n'ameza ariko nta bakiriya barimo.

Igipapuro kinini cyane cyanditseho ngo murakaza neza mu rurimi rw'ikinyarwandaba, ari ijambo ry'igifaransa, n'iry'icyongereza risobanura ngo murakaza neza. Kiri ku nyubako ya hoteli ahatangirwa serivisi zitandukanye hakaba hanacururizwa ibiryo ndetse n'ibyo kunywa.

Ni resitora itangirwamo serivisi zitandukanye, ari iz'amafunguro ndetse no kunywa. Harimo intebe zitandukanye zikozwe mu mbaho, bisa naho nta abakiriya benshi baje uwo munsi kuko hari bake bari imbere cyane.

Umugabo w'umumotari atwaye moto muri kaburimbo aho afatishije ukuboko kumwe, iruhande rwa kaburimbo hari amazu y'ubucuruzi, imbere yayo hakaba hari imboga ngari irimo amapave ndetse hakaba harimo n'umukindo.

Umugore wambaye ekuteri, akaba ari gutwara imodoka yishimye, inyuma ye hakaba hicaye umugabo aho asa naho ari umugabo we, barishimye cyane, hirya y'iyo modoka hakaba hari n'izindi imodoka ziri gutambuka.

Yambaye ikasike ndetse ni ijire y'umutuku, akaba afite umugenzi uteruye umufuka munini cyane uremereye, aho agiye kumutwara kuri moto. Imbere yabo, hari imodoka ziri gutambuka mu muhanda, aho ahagaze kugira ngo zibanze zihite.

Mu muhanda munini wa kaburimbo harimo umugabo uri ku igare, yambaye ishati y'umweru akaba ari ku manuka yirukanka cyane, hirya y'umuhanda hari inzu ndetse ku nzira y'abanyamaguru hari umukobwa wambaye umupira utukura.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umumotari wari kuri moto, akaba ahetse n'umugenzi. Uyu mumotari ari kugenda ariwe ukoresha telefone kandi atwaye moto bisa naho ashobora gukora impanuka kuko atari kureba imbere ye neza.

Umuhanda mwiza cyane wubakishe amabuye, harimo moto ebyiri, moto imwe yicayeho umugabo wenyine, mu gihe indi moto yicayeho uyitwaye ndetse n'umugenzi, zose zikaba ziri kwitambukira zibisikana.

Umugabo w'umumotari yakoze ibintu bitemewe aho yicaranye n'undi mugenzi inyuma, inyuma yabo hakaba hari igisanduku kinini kirimo inkoko. Bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho ruhande hari inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, uriho amarangi y'umukara n'umweru ku ruhande, hakaba hari n'umucaca uteyemo umukindo ukiri muto. Mu muhanda hari umwana w'umuhungu uri kunyonga igare ndetse inyuma ye hakaba hari na moto iri gutambuka mu muhanda.

Kaburimbo nziza cyane iriho imirongo iri mu ibara ry'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, harimo moto iri gutambuka ku ruhande hakaba hari inzu ifite imbuga ngari iriho imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urambuye cyane. Uri kugendaho umugabo uri kuri moto, aho yambaye kasike y'umutuku n'umupira w'umweru. Hirya y'uyu muhanda hari inzu nini cyane y'urusengero ndetse hakaba hari n'insina.

Umumotari utwaye moto ya gikumi yambaye ijire y'umutuku ndetse n'amakasike y'umutuku we n'umugenzi atwaye w'umuzungu, bari gutembera mu muhanda bakaba bageze imbere y'inzu y'ubucuruzi iriho n'akazu ka MTN.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'umunyozi usunitse igare yaziritseho amabati, ku ruhande hakaba hari inzu nyinshi cyane z'ubucuruzi ziteye irangi ry'umweru hari abantu bari gutambuka ndetse hari n'akazu k'umuhondo gatangirwamo serivisi z'ikoranabuhanga.

Ni modoka nziza cyane y'iparado iri gutembera mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hari ibiti, indabo ndetse hakaba hari n'ipoto ry'amashanyarazi.

Umugabo w'umumotari yambaye agapira k'ubururu, akaba atwaye moto mu muhanda afatishije ukuboko kumwe, bisa n'aho moto ishobora kumugwisha, hirya hari inzu ziteye amarangi y'umweru z'ubucuruzi.